Abantu benshi bahagaze begeranye, abandi baricaye, imbere yaho hari ameza hariho ibitambaro bitukura, n'amazi, n'ibikoresho bari bafite, bamaze kurangiza inama, bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo batazibagirwa uyu munsi bahuriyeho.

Abantu batandukanye bicaye mu nama, imbere yabo hari ameza hateretse ibyo kunywa babahaye, umugore urimo wambaye umupira utukura, yisukishije meshe z'umukara, iruhande hari umukobwa ufite telefone mu ntoki, ariko ari kureba hakurya imbere.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu ntebe mu nzu yubatse neza, bambaye imyenda itandukanye, umutuku, umuhondo, ubururu, bose barishimye bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Abantu batatu bicaye: abagore babiri n'umugabo umwe, uwo hagati afite imisatsi yahinduye, ni inzobe, yifubitse igitambaro mu ijosi, ari guseka, aranezerewe.

Abantu benshi b'uruhu rutandukanye: abazungu, abirabura, bicaye mu cyumba cyiza cy'inama kirimo amarangi atandukanye, imbere yabo hari ameza akeye, hateretseho amazi bari kunywa.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'amahugurwa bambaye imipera isa y'ubururu umuyobozi wabo yambaye ikote ari kumuhereza indangururamajwi kuko yari amaze kumubaza ikibazo akaba agiye kugisubiza.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama n'ingeri zitandukanye abagore, abagabo bari imbere y'abandi bari kurebana barikungurana ibitekerezo by'ibyo barimo abandi bari kwandika ibyo bavuga.

Inzu ifite igisenge cy'umutuku isize irange ry'umuhondo n'umweru, imbere hari ikigega cy'amazi, ihema ryubatse ryicayemo abantu benshi batandukanye, abagore abagabo, baratuje bari kumva.

Abantu bicaye mu ihema, hari abambaye imipira isa abandi bambaye ibisanzwe bari guseka. Imbere yabo hari umugabo muremure munini ufite indangururamajwi, afite impapuro imbere ari gusoma.

Abagabo bambaye amakote bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza, indangururamajwi, amazi yo kunywa n'ibikoresho bindi bari gukoresha barakeye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama ku ntebe zitukura, imbere yabo hari ameza hari impapuro zanditseho amazina yabo, amazi babiri babiri bari kujya barebana baganira.

Inzu yubatse neza, imbere hari ibaraza, hicayemo abantu, hari ameza ariho indabyo. Abaturage benshi bicaye ku ntebe bari mu nteko, bari kumva ibyo abayobozi babo bababwira.

Umugabo muremure uhagaze imbere y'abandi bicaye yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru afite mikoro ari kuvuga abasobanurira kugira ngo babyumve neza.

Abantu benshi bicaye mun nzu y'inama bambaye neza barakeye, bafite impapuro mu ntoki abagore n'abagabo baratuje bari kureba mu cyerekezo kimwe, bakurikiranye ibyo bababwira abandi bari kwandika bifashe ku munwa.

Ibyiciro byinshi by'abantu byicaye muri sitade y'i Nyamirambo, bari kwambara imyenda y'umuhondo, amashati y'ubururu buri wese aho yaturutse n'ikirango kimuranga, bari kubarura bashyize amaboko hejuru.

Icyumba cyiza cy'inama cyicayemo abantu beza bakeye, bafite imibiri inoze, hararimbishije aho bari imbere yabo hari ameza afite ubwiza burenze, amazi bari kunywa n'ibyo bari gukoresha byose.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama imbere hari abagabo babiri, umwe ni munini cyane yambaye ishati iciye amaboko ari kureba imbere ariyogoshesheje, uwo hirya ni mutoya arakeye n'inzobe afite n'umusatsi.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'ubururu n'umuhondo, bambaye imyenda itandukanye y'amakote, barakeye, bararimbye, baricaye bari kureba imbere. Mu bagore barimo bafite imisatsi, kurimbisha umusatsi kwe n'ubwiza bw'umugore.

Urubyiruko rw'inkumi n'abasore bicaye ku ntebe zitukura imbere yabo hari ameza y'uruziga hateretseho amazi, imyambaro yabo irasa n'umweru bari kureba imbere ni imbaraga z'igihugu kibafite ejo hazaza.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'ubururu imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bitukura, hagwiriyemo abagore bisukishije, abasokoje imisatsi, hahagaze umugabo ufite indangururamajwi uri kubahugura, batuje bateze amatwi barimo kwandika ibyo bumva.

Abagabo bane bicaye ku ntebe z'umukara bambaye amakoti amashati y'imyeru imbere, hari ameza ateretseho amazi bari kunywa, umwe muri bo arahagaze afite urupapuro mu ntoki ashyize indangurumajwi ku munwa ari kuvuga abwira abari imbere ye abasobanurira iby'inama.

Abantu beza b'abasirimu, barakeye baranoze mu maso, bicaye mu ntebe, imbere yabo hari ameza n'ibitabo bari gusoma, babiri muri bo bari kurebana baganira, undi yifashe ku munwa, uwo haruguru yabo ari kubareba.

Abantu bicaye ku muzenguruko, bambaye neza ni byiza, bose bari kurebana ibyo buri wese akora, bari kuvugana, bari kujya impaka kubyo bari gukora, imbere yabo hari ameza ariho amazi bari kunywa, bafite amaterefone mu ntoki, abandi bambaye amajire aranga ibyo bakora.

Abantu benshi bicaye aho bashyize ibirenge n'ubururu, intebe ni umuhondo, bambaye imyenda itandukanye ni beza, barakeye ni abagore ni abagabo bari mu nama.

Abantu benshi bicaye mu ihema bubatse, ku ntebe z'umweru, abagore, abagabo, baratuje; barategereje; barakeye, basa neza ntabwo bajagaraye, bari kurebana.

Abantu bicaye mu nama, bambaye neza ameza ari imbere yabo, hariho ibitabo, amakaramu amazi yo kunywa, abagabo n'abagore biteze igitambaro, ikote n'amakaruvati ku gitsina gabo ni beza.

Abantu bicaye ahantu hamwe, bambaye imyenda isa, abagore bari imbere babiri b'inzobe bafite imisatsi, bari kurebana, barakeye, baratunganyije, barishimye.

Abantu benshi bicaye batuje, abicaye imbere yabo hari ameza hirya hari uhagaze uri kubabwira ababwiriza. Bagaragara nk'abari mu mahugurwa y'imirimo bakora.

IHema riteye ahantu ho mu kibuga barimbishije amabara atatu atandukanye aranga ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda umugore umwe arahagaze yambaye iby'umuhondo afite imisatsi indangururamajwi ari kuvuga ibyo bamubwiye kuvuga no kubisobanura.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo bicaye ku ruziga barebana. Hirya yabo hari umukobwa uri kubahugura ari kubereka inyandiko yanditse ku byo ari kubereka hirya hari ibindi byanditseho bari kwandika baratuje.

Amahugurwa y'abagore bambaye neza, barakeye, barimbye, imbere yabo hari abayobozi bahicaye, ameza ariho igitambaro cy'umweru, hari uhagaze wambaye ishati y'umukara, arisukishije, ni inzobe, afite indangururamajwi, ari kubaganiriza.

Itsinda ry'abantu batandukanye baricaye, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'ubururu amazi, mashine, amaterefone barakeye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bambaye neza barakeye, abarimo bambaye amataratara, abagore, abagabo, baratuje, bose bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Abantu bicaye mu cyumba gikorerwamo inama ku ntebe z'imihondo imbere yaho hari ameza ariho ibitambaro barambitseho impapuro bari kwandikamo ibyo bari kubabwira, baratuje bararebana bafite mashine bari gukoresha.

Abakozi bahagaze mu muhanda bafite mashine bambaye udupfukamunwa, baratuje bari gukora akazi kabo, ntabwo bari kurebanwaho buri wese afite ibyo ari gukora, babiri bari kwerekana ibyo bagomba gusobanurirana.

Imodoka nziza y'umweru nishyashya iteye irangi ry'umukara kuruhande, hino haparitse moto bigishirizaho abanyeshuri batangira kwiga bwa mbere, imbere hari ibikoresho, bakoresha, bigisha.

Mudasobwa ni igikoresho cyiza cyane cyihutisha akazi ku bagikoresha, bakora byinshi mu gihe gitoya, kubera y'uko mu bantu bagikoresha kirabafasha kikabaha serivisi yihuse cyane.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye, abazungu bose baratuje, bari kureba kuri mashine abandi kuri telefone, bari gukorera imirimo yabo ku ikoranabuhanga, bakora byinshi kandi mu gihe gitoya.

Inzu yubatse ifite icyumba kinini, kirimo ibikoresho bitandukanye bituruka ku mbaho zikomoka ku biti, ni byiza, biraramba, birahendutse, abantu benshi barabikunda kubikoresha.

Abanyeshuri babiri barahagaze bari kwiga ubumenyi bwi'isi, barambuye ikarita imbere yabo bafite amakureri atandukanye, ni byiza kumenya iterambere ry'aho isi igeze kuri buri wese.

Umusore uhagaze yambaye umupira w'umweru ingofero y'ubururu amataratara, afite mahine mu ntoki, ari kureba kuruhande aseka cyane aranezerewe.

Umugabo uhagaze inyuma y'idirishya, yambaye imyenda y'icyatsi kibisi imeze nk'iyabaganga, batanga serivisi nziza, iyo ugezeyo urwaye bakwakirana urukundo, ubwuzu n'urugwiro.

Igisenge cy'inzu yubatse, ku ruhande hariho imbaho, ni umurimbo mwiza cyane barimbisha ikagaragara neza, hirya hari ipoto iriho insinga nyinshi cyane zigenda zigaba umuriro hirya no hino mu bahatuje.

Inzu ngufiya yubatse iriho ibara ry'umukara n'umutuku, hirya yayo hari ipirone ishamikiyeho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi uboneshereza abaturage.

Ibiribwa ngandurarugo biteye mu mirima, urutoki, ibigori, hirya yaho hateye ibiti, ipoto iriho amansinga y'amashanyarazi ajyana umuriro hirya no hino mu baturage bawukeneye, mu nganda, mu bikorwa remezo bikeneye umuriro.

Abakozi bakora mubyerekeranye n'amashanyarazi. Bambaye amasarubeti y'ubururu, ingofero z'umuhondo, barikubaka umunara, bakoresheje ibyuma bikomeye, kugira ngo bitazateza impanuka.

Imodoka itwara abagenzi iri mu muhanda, irafunitse, ifite intebe zisanzuye, buri muntu wese uyijyamo, agenda atuje kandi ameze neza, hirya yayo hari umuntu uhagaze, amazu meza, imodoka zihaparitse.

Ipoto babumbye mu isima n'umucanga, ririho amasinga menshi, ni nziza, ntabwo ijya iremererwa ngo igwe, hirya yayo hari igiti, hasi hari ibindi bifite ibibabi byiza.

Umugabo uri kumanuka mu muhanda w'igitaka yambaye umupira, ariyogoshesheje, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru hepfo ye hari imodoka ifunze inyuma hariho ibishushanyo bigaragaza ibyo itwara.

Ipoto ishinze ku muhanda, hariho ita, insinga zitambuka hirya no hino, itanga urumuri, imurikira abagenzi, imodoka hirya no hino, abahatahuka bari mu binyabiziga bitandukanye.

Moto ebyiri ziparitse zitegereje abagenzi, haruguru hari abari kugenda n'amaguru, hirya hari amazu yubatse neza y'ubucuruzi, imodoka ziparitse ni heza iyo uhahiye hafi y'aho umuhanda uri uhita ubona abagutwaza vuba.

Inzu z'ubucuruzi zubatse neza hejuru ziteye amarangi, igisenge baragikomeje kimeze neza, ntabwo imvura ishobora kugwa unyagire ibyo banditse ku ibaraza, haratwikiriye, harakomeye.

Igiti cy'ipoto gishinze, hariho amasinga menshi ajyana umuriro hirya no hino kubera ko ari maremare, hepfo hari inzu yubakishije amatafari ahiye n'amadirishya y'ubururu, arakomeye iba ifite ubwirinzi ko ntawayicukura ngo yibe.

Umugabo uhetse igikapu, uri kumanuka, imbere ye hari umuntu wapakiye imizigo ku igare, bari gusunika ari babiri, inyuma ye, hari undi urigendoho ari umwe ni ryiza kuko naryo, riradufasha mu rugendo.

Umugabo muremure wambaye iby'umukara, uhagaze ku muhanda, imbere ye hari inzu n'icyapa giteye ku muhanda, cyanditseho umubare mirongo itandatu, bivuga yuko umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ageze hariya agomba kugendera ku muvuduko wa mirongo itandatu mu isaha.

Amapoto abiri ashinze, ariho insinga z'umuriro, hasi hari akantu kameze nk'agasandugu, aho barebera umuriro aho ugeze, hejuru hari akandi kanditseho ngo nturenge hano, hejuru hari umuriro mwinshi.

Imodoka y'umukara iri mu muhanda, hirya hari inzu ifite urugo ruriho urugi ku marembo rw'umukara, igiti giteyeho amasinga menshi kijyana umuriro ucanira abaturage.

Igiti gishinze kiriho insinga nyinshi zijyana umuriro mu baturage hirya no hino no ku mihanda aho ibinyabiziga bitambukira kugira ngo bibonesherezwe.

Icyuma gishinze kirekire kandi gikomeye kiriho insinga zijyana umuriro hirya no hino ku mihanda mu baturage, ku ngomero, mu mavuriro, ni byiza gutunga umuriro utanga urumuri.

Inzu nini kandi ndende iri kubakwa ntiyari yuzura bashyizeho uruzitiro rw'amabati kugira ngo barinde abantu baza kwiba ibikoresho bihubaka bitari byuzura irakomeye kandi yubatse neza iruhande hari insinga z'amashanyarazi zicanira abaturage bari hirya no hino.

Inzu yubatse neza irakomeye ifite igisenge cyamabati y'umutuku ifite imbuga nini irikugendwaho n'abantu benshi bambaye imyenda y'umweru ningofero nibeza barakeye.

Inzu yubatse neza irakomeye, ifite ibaraza risakaye, hari intebe hanze, ni byiza kuhashyira icyo bicaraho, abantu iyo bahageze baje gusaba serivisi baricara uko baje bakurikiranye ntihagire utambuka ku wundi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'umweru, haruguru hari akayira gatwikiriye k'abanyamaguru, ni heza iyo bari kugendamo imvura iri kugwa ntabwo ibanyagira.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya hari icyapa kitwereka ko tugeze ku bitaro bya Kabgayi, ni inzu nini bavuriramo abantu, ni heza, hari abaganga b'inzobere mu byo kuvura, uhageze aje kwivuza ahita akira.

Icyumba k'inzu nziza harimo amarido akeye, ibitanda byiza akabati k'ibirahure, hasi hari irangi ryicyatsi kibisi haratuje haratunganye.

Ibyumba by'amashuri ni byiza, biratebekereye aho babyubatse, inzira ijyayo iratwikiriye kugirango abanyeshuri mu gihe bagiye mu kwiga batagenda banyagirwa n'imvura.

Amazu bavuriramo arakomeye, inzira z'abagenzi zijyayo ziratwikiriye, iyo bagenda ntibanyagirwa harimo abagabo n'abagore bari kwerekera ku ivuriro kugira ngo bavurwe.

Abantu bicaye mu mukazi aha heza, barakeye bariho korera kuri mashine iyo uyikoresheje ukora ibintu byinshi mu gihe gito cyane igira vuba.

Imodoka ebyiri z'umukara zihagaze hamwe, imbere yazo hari indabyo bakase neza, ziratunganye, hakurya hari imodoka z'imbangukiragutabara ari zo ngobyi z'abarwayi, umuntu ntarembera mu rugo ahubwo barayihamahaga ikamugeza kwa muganga.

Umuhanda w'igitaka mushyashya haruguru hari inzu ishyigikiwe n'urukuta rw'amabuye, irakomeye ni nziza isize irangi ry'muhondo hari akanyatsi kanini kagaragara neza, n'ibiti biteyemo ni byiza.

Mu marembo y'umuhanda w'igitaka hejuru hari icyapa cyandikishijeho inyuguti z'umweru, umukara kivuga ngo aha ngaha ugeze ni ku bitaro by'i Kabgayi uje kwivuza bamuhaye randevu ntabwo ashobora kuyoba biramuyobora.

Abagororwa bari ku musitari, bambaye imyenda y'amaroze, buri wese afite dosiye ye mu ntoki, bambaye amapingu, ababacunga bari kujya babasinyira, kugira ngo babone uko bajya mu manza.

Umukobwa w'umugororwa bamwambitse amapingu, amarinete, ariyogosheshije, ashorewe n'umucungagereza w'igitsina gore, amujyanye mu rukiko agiye kuburana kugira ngo bamenye icyaha niba kimufata.

Abantu bicaye mu cyumba kimwe cy'inama ni benshi baratandukanye, abirabura abazungu abahagaze babiri bambaye imyenda isa, ingofero zisa, uw'imbereye afite, iri ibendera riranga igihugu cy'u Rwanda abandi bahagaze babiri bari kubareba.

Abagororwa bahagaze ku murongo utambitse akaboko kamwe bagafatishije mu gatuza akandi bagashyira hejuru bambaye imyenda y'umuhondo iranga aho bari ko bari muri gereza bari kwitegereza bari kureba imbere yabo.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki harimo amamodoka, ndetse hakaba hagaragara n'ibimenyetso by'umuhanda, bishinzwe kugenda biyobora abagenzi ndetse n'abatambuka n'amaguru muri rusange.

Imodoka ihagaze igaragaza inyuma ku mubare wiranga inyuma hari umugabo w'umugororwa yambaye imyenda y'iroze ari kureba hakurya ategereje abaje kumusura nibo ahanze amaso.

Abantu benshi bateraniye ahantu h'ikibuga bamwe baricaye abandi barahagaze, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'abagororwa, bari kumutega amatwi bumva ibyo ababwira.

Umugabo muremure uri kugenda asohoka, yambaye umupira w'umweru, ikora ry'umuhondo, n'ingofero, imbere ye hepfo no haruguru hari abacungagereza, bari gusoma urupapuro asohotse muri gereza aratashye.

Abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye kumuzenguruko, imbere hari ameza igitambaro cy'ubururu, basa neza bambaye amakote bafite imisatsi kubagore, imbere yabo hari utuntu tw'ikirango twanditseho amazina yabo.

Umugabo ukuze w'gikweri, yambaye ingofero y'umukara iriho agatambaro k'umuhondo, yambaye amataratara, ni inzobe, imyenda y'umutuku na karuvati y'umweru, asa neza.

Umugororwa wicaye hagati y'abacamanza babiri, yambaye imyenda y'iroze, bafite udupfukamunwa, impapuro mu ntoki, bari kuzisoma, kuko baje mu bushinjacyaha, bari gusubira mu rubanza kugira ngo bamenye uko baza kuburana ingingo ku ngingo.

Abantu bicaye mu cyumba cyo kuburaniramo bambaye amakoti, amakaruvati, bahanye intera, bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hahagaze umucamanza, yambaye ikanzu y'umukara karuvati y'umweru, agapfukamunwa k'umweru afashe ku meza ari gusoma.

Itsinda ry'abantu bahawe ububasha bwo guca imanza bambaye imyenda ibaranga y'ubururu n'umweru bambaye udupfukamunwa baricaye ku ntebe zitukura umwe ahagaze imbere yabo azamuye akaboko ari kurahira ko atazatatira igihango cy'ibyo yiyemeje afashe ku ibendera riranga igihugu cy'urwanda.

Umugabo uhagaze yemye, yambaye umwenda utukura inyuma, imbere hari umweru n'umukara, ari kwitegereza, aranezerewe, ntabwo afunze umunwa, arogoshe, ni rukara, ni umucamanza ko yambaye imyenda ibaranga.

Abantu batatu bicaye abacamanza babiri bambaye udupfukamunwa, umugororwa uri hagati nawe yambaye agapfukamunwa, imyenda ni iroze ni ikirango cy'abantu bose bafunze, kuko iyo yambaye undi mwenda ntiwashobora kumutandukanya n'abandi.

Abantu bicaye imbere hari umugore n'umugabo bambaye neza, hari ameza ariho ibirahure byubitse, bari kurebana mu maso bari kuganira banezerewe.

Abagore n'abagabo baricaye, bambaye neza, barakeye, imbere hari umugabo uhahagaze wambaye ikote ry'umukara, hirya hari undi, imbere ye hari mashine ari kwandika, bategereje ibyo bababwira.

Abagabo babiri bicaye bambaye imyenda itukura imbere hari iby'umweru ingofero y'umukara, hirya yabo hari abandi bambaye iby'imikara bafashe ku mabendera y'Igihugu cy'u Rwanda bari kurahira ko batazatatira igihango cy'ibyo biyemeje.

Abagabo n'abagore barahagaze ku musitari, bambaye amakanzu y'imikara, amakaruvati y'imyeru, ni beza barakeye, bari gufata ifoto y'urwibutso, kugirango bajye bibuka aho bari bari bari kumwe.

Umugabo mwiza w'imbaraga. Yambaye imyenda y'abacamanza. Ni insobe, ari kureba neza, afite umusatsi, uruhanga rukeye, arahagaze, ari kwitegereza.

Abasore babiri bahagaze imbere yabo hari umugabo wikoreye muzigo hakurya hari inzu ndende n'abantu benshi, kuganira n'inshuti yawe bituma murushaho gukundana no kungurana ibitekerezo mu buzima bwanyu bwa buri munsi.

Umupolisi uri mu nzira y'abanyamaguru, yambaye imyenda y'akazi, ari kwinjira mu muhanda, hakurya ye hari umumotari uhetse umugenzi, hirya hari icyapa cy'umutuku cyandikishijemo inyuguti z'umweru zivuga ngo ikinyabiziga nigihagarare.

Abapolisi bambaye imyenda y'akazi bafite imbunda, ni igikoresho kirinda umutekano abawushinzwe bifashisha, nta wapfa kwinjirana umuntu ufite imbunda ahita ayitabaza.

Abapolisi babiri bahagaze mu muhanda bari gukoresha ibizamini bya nyuma abanyeshuri bari gukorera uruhushya rwo gutwara imodoka, uwa mbere arambuye akaboko ari kumwereka y'uko yabikoze, uwa kabiri ahagurukije uwo ari kureba.

Imodoka y'ivatiri y'umweru, iriho inyuguti nini z'umukara za polisi, mu muryango hahagaze uwambaye imyenda y'umukara, ingofero y'umukara ari kuri telefone, hirya ye hari abagenzi bari kugenda, haruguru hari abari mu mutaka w'umuhondo.

Imodoka y'imbangukiragutabara ariyo ngobyi y'abarwayi irahagaze, umuryango w'inyuma urafunguye abapolisi barahahagaze, hirya hari abantu benshi no hino, habereye impanuka bari guterura abakomeretse babashyiramo kugirango ngo babihutane kwa muganga.

Inzu yuzuye, bayubatse nk'iy'ubucuruzi, amarangi meza bayisize, imiryango, imbere yaho ku mbuga bahasize sima kugira ngo ivumbi nirijya rizamuka ryo kujya ryanduza inzu isa neza.

Ibinyabiziga bitandukanye biri mu mu handa imodoka abamotari bacanye amatara kubera ibihu by'imvura hino hahagaze abapolisi babiri inyuma hari umukobwa wicaye mu mutaka w'umutuku ucuruza ibya eyateri.

Umupolisi ahagaritse umuyobozi w'ikinyabiziga amwatse uruhushya rwo gutwara ari kurureba neza kugirango ngo amenye amakosa ariho akora no kurugenzura muri terefone ye afite y'akazi.

Uruhombo rw'umutuku ruzingazingiye ku gikuta cy'inzu bakifashisha iyo bagize impanuka y'inkongi yumuriro, bazimya kugira ngo idakomeza kuyogoza inzu n'ibindi byose byafashwe.

Umupolisi yahagaritse umumotari iruhande rw'umuhanda, inyuma ye hari umugore uhagaze ari kumwaka ibyangombwa areba neza ko byose byuzuye, kuko nta muntu utwara ikinyabiziga ushobora kujya mu muhanda atujuje ibyangombwa.

Amacupa harimo amazi bitabaza bakora ubutabazi bw'ibanze mu gihe batewe n'inkongi y'umuriro, haba ku mazu, haba no mu biyirimo, bararifata bagahita bajya kuzimya bihuse cyane.

Umupolisi uri kugenda mu muhanda yambaye imyenda y'akazi imuranga inyuma ye hari moto ziri kuzamuka, imodoka ari kureba ku nkengero z'umuhanda atungayo intoki hasi ari kwihaniza abari hirya yaho ko ari kubona bari gukora amakosa.

Abantu benshi barishimye bambaye imipira isa umweru iriho ubururu, n'amashati igofero, bazamuye igipfunsi cy'ubururu n'umutuku barishimye bari kuririmba.

Nyakubahwa umukandida Kagame Paul w'ishyaka FPR, ari gusuhuza abaturage yambaye ingofero y'umukara, arishimye nabo baramwishimiye, bari kurengeza amabendera y'ishyaka ryabo.

Inzu ndende iteye amarangi y'ubururu, umweru, ifite ibyumba byinshi bikorerwamo imirimo itandukanye, mu gihe kigenwe, imbere hari amabwiriza yerekana igihe cyose bakora iyo mirimo.

Abagabo n'abagore bahagaze bavuye mu mahugurwa babahaye impamyabumenyi by'ibyo bamaze kwiga, bari gufata ifoto y'urwibutso kugirango batazibagirwa uyu munsi bari bateraniye hamwe bose barakeyeye.

Abagabo babiri bicaye mu ntebe z'umukara, amakote meza, amashati n'amakaruvati, imbere yabo ku meza hari amadarapo y'ibihugu bahagarariye, bari gusinya mu bitabo bafite, bose bari kureba hasi.

Abagore benshi bambaye imyenda ya kinyarwanda imikenyero barakeye, bagaragara neza, inyuma yabo hari ibiti ni byiza bizana umuyaga.

Umugore uhagaze yambaye umupira w'umukara ikora ry'umweru n'ingofero, afite ibendera riranga igihugu cyacu, ari kwamamaza umukandida wacu mwiza dukunda, nyakubahwa Kagame Paul, ni mwiza turamukunda.

umugore wicaye ku ntebe ageretse akaguru kandi, yambaye ikanzu y'ubururu, amataratara urunigi mu ijosi umusatsi w'umukara hirya ye hari uwikoreye akabindi yerekana imirimo bakoraga kera n'imyambarire ya kera.

Amarembo akinguye bamwe baragenda abandi bagasohoka, hejuru hari icyapa cyerekana ko aho ngaho hari gukorerwa amatora handitse ngo twitabira amatora ni heza kandi ni byiza kwitorera umuyobozi uwo ari we wese wamwihitiyemo.

Umukandida nyakubahwa Paul Kagame ari gusuhuza abantu n'urukundo n'urugwiro, na bo bamwishimiye kuko ari umubyeyi wacu; babyerekanishije bazamura amabendera aranga igihugu ndetse n'ishyaka ayobora.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye gusura abantu. Ariguhobera umusaza w'urukara, basetse, bishimye, n'abandi bose bari ku ruhande barikubareba n'abo banezerewe.

Abayobozi batandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, inyuma yaho hari amabendera y'ibihugu bahagarariye, barasa neza, barakeye, bafite amakaramu n'impapuro bari kwandikaho ku byo bari kwiga.

Itsinda ry'bantu, abagore, abagabo bambaye imikenyero, amakoti n'amakaruvati bahagaze ku irapo ry'igihugu cyacu, bazamuye akaboko bari kurahira ko bazubahiriza inshingano babahaye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kinini ku ntebe, imbere yabo hari amezateretseho icyo buri wese ashoboye gufata basetse bameze neza bishimye amenyo bayagaragaje kuko babonye ikibashimisha.

Umugabo munini muremure arahagaze, afite umusatsi, ubwanwa yiyogoshesheje, yambaye amataratara, ikote, ishati y'umweru na karuvati y'umukara, inyuma ye hari umugore usokoje ari guhingura amaso gusa.

Urubyiruko ruhagaze rwambaye imyenda isa hejuru umweru, ubururu, bafite impamyabumenyi zabo babahaye kuko barangije amahugurwa, imbere hicaye abayobozi batandukanye, abagore, abagabo, umusirikari, umupolisi, abo ni mu bashinzwe umutekano.

Itsinda ry'abantu batandukanye abagore, abagabo bambaye neza amakote, amakaruvate, imikenyero barasa nk'abatashye ubukwe barakeyeye.

Umugore mwiza w'igikwerere yicaye mu ntebe y'umukara, iruhande rwe hari ibendera riranga igihugu cy'u Rwanda, hirya ye hari ikirangantego cyarwo ni mwiza yambaye ikoti ry'umuhondo amaherena ku matwi n'inzobe, afite umusatsi usokoje neza.

Ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda harimo inuma iranga amahoro, ko hagomba guhora amahoro mu gihugu cyacu, isuka n'umuhoro buri muntu wese agomba guhagurukira gukora.

Abagabo bane bambaye amakoti, amakaruvati, umugore umwe wambaye imkenyero, bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bazamuye akaboko bari kurahira ko batazatatira igihango cy'inshingano babashinenze.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arahagaze azamuye akaboko yambaye neza ni umubyeyi wacu turamukunda, hirya ye hari ibendera riranga igihugu ayoboye haruguru hari umufasha we.

Abagabo babiri bamaze gutora, umukobwa uri inyuma ubayoboye arahagaze mu muryango, ari kubereka aho bagomba gushyira amajwi yabo, ni byizayiza kwitorera umuyobozi uzakuyobora umuziho imico myiza.

Moto ya rifani n'umunyonzi bari mu muhanda, itwara imizigo kandi myinshi icyarimwe, irafunze inyuma kugira ngo imizigo y'abandi itangirika bakamuha amafaranga makeya cyangwa se ikabura.

Imbuga nziza cyane bayishyizeho amatafari babumba mu isima n'umucanga, haparitseho imodoka iri guhinguka imbere ifite ibara ry'ubururu.

Moto ya livani iri mu muhanda, itwara imizigo myinshi ku giciro gihendutse, irihuta ntibyangiza, ibigezayo bigifite ubuziranenge.

Imodoka ya Hiyasi iri mu muhanda, icanye itara rimwe, irakomeye, itwara abagenzi, ica hose ntabwo inanirwa n'inzira iciyemo, irihuta, irahendutse.

Moto ya rivani idufasha gutwara imizigo n'ubururu itwikirije ihema ry'umukara, imbere hicaye umuntu wambaye itaburiya y'umuhondo ategereje abagenzi kuko ari itwara imizigo.

Umuhanda munini cyane, urikugendwamo abanyamaguru, abamotari bari gushaka abagenzi, ni byiza kuba utunze moto, iguha amafaranga yihuse kandi ntabwo ikerereza abagenzi kurugendo.

Ikamyo iri kugenda mu muhanda imbere n'umweru inyuma n'umuhondo, ipakiye ibikoresho byo kubaka by'amabuye, iratwikiriye n'ihema ry'icyatsi kibisi kugira ngo bitagenda binyanyagira mu muhanda bigateza impanuka. Irakomeye ica aho ibonye hose ntabwo igombera umuhanda umwe, aho ariho hose irahanyura.

Imodoka ihagaze igaragaza igice c'inyuma no kuruhande itwara abagenzi, ni ivatiri ntoya y'i ibara ry'umuhondo n'umweru iyo umuntu ayikodesheje cyangwa se yayiguze aba yizeye ko agomba gukora imirimo ye yose mugihe gito kandi vuba.

Moto ya rivani iri m'umuhanda ifunikishije ihema ry'umukara harimo imizigo itwaye imbere hari abagenzi k'uruhande hateye ibiti ni nziza itwaza abantu bose itabahenze.

Imodoka y'ikamyo iri mu muhanda, imbere ni umweru inyuma iratwikiriye ihema ry'umukara hariho imigozi ikomeye, imbere yayo hari umunyonzi uri ku igare yashyizeho umuzigo byose ni byiza kuko bidufasha kwikorera.

Imodoka nini y'ikamyo ifite imbere h'umweru, inyuma hari ibara ry'umuhondo, hirya hari umumotari, ni nziza idufasha kwikorera imizigo myinshi mugihe gito.

Imodoka nini ifunze hose y'ubururu, itwara abagenzi, ni nziza, ifite intebe zisanzuye, uyigiyemo ntabwo abyigana n'undi, hari n'imyanya yahariwe kwicaramo abantu babana n'ubumuga.

Imodoka iri mu muhanda y'ifuso yikoreye imizigo iremereye cyane bayitwikiriye bahambiriza imigozi ikomeye kugira ngo abajura batagenda babikuraho hicara umuntu ubirinze hejuru ari kugenda areba impande zose.

Imodoka y'ikamyo nini cyane iri mu muhanda, ifite imbere h'umweru, inyuma batwara imizigo ni umutuku, ibitwara neza, biratwikirwa, ntabwo binyagirwa, bigera aho bigomba kugera bitangiritse.

Imodoka y'ikamyo nini iri mu muhanda, igizwe n'ibara ry'umutuku imbere n'inyuma, yikorera imizigo myinshi, ibijyanye n'ubwubatsi, irakomeye, igendera ku mapine menshi, umuhanda wose inyuramo nta kibazo ifite.

Imodoka ndende iri mu muhanda iriho amakarisori maremare, iratwikiriye shitingi, itwara imizigo, abantu barayifashisha kugira ngo ibagereze ibyo batwaye aho babijyana.

Moto yitwa rivani itwara imizigo iri mu muhanda iri kugenda, ibara ry'ubururu ku ruhande n'imbere, hejuru hari ihema ry'umukara batwikiriyeho, itwara imizigo neza ntinyagirwe, mwiyandure, ikagera aho igera ifite ubuziranenge.

Ibinyabiziga bitatu biri mumuhanda bitandukanye, modoka y'umweru itwara abagenzi ifunze hose, ifite ibirahure bibonerana, moto ya rifani itwara imizigo, igare rifasha abantu kugera aho bagera ku kazi nta nkomyi ni byiza byose bifitiye umumaro abantu mu gutwara imizigo n'abantu.

Igare rifite intebe inyuma, rigaragara ko ritwara abagenzi, uriyoboye yambaye umwenda ugaragaza akazi akora, ni byiza kuritunga, ritwara abagenzi rikabageza aho bagera ku gihe kandi ku giciro giciriritse.

Imodoka nini iri mu muhanda ifite imbere h'umweru, inyuma amakarisori nayo ni umweru, iratwikiriye, itwara imizigo myinshi mu gihe gitoya, ikagera ku bayishaka hakiri kare.

Imodoka nini y'ikamyo, iri mu muhanda ifite ibara ry'umuhondo imbere, inyuma harafunze niho batwara imizigo, haratwikiriye kugira ngo itanyagirwa cyangwa se ikanduzwa n'ibindi bishobora kuyangiza.

Imodoka y'ikamyo ifite imbere h'umutuku, inyuma h'umweru bashyizeho ibyuma bikomeye, kuko ari iyo gutwara imizigo, yerekeranye n'ibyuma by'ubwubatsi, kugirango bitazagira icyo bikoraho mu muhanda bigateza impanuka bimaze guhubuka.

Abamotari bahagaze ku nkengero z'umuhanda, hirya yabo hari imodoka zihahagaze, inyuma hari imirongo icagaguye y'umweru abanyamaguru bambukiramo, iyo bagezemo ibinyabiziga biturutse hepfo no haruguru birahagarara, bikabaha uburenganzira bwo kwambuka.

Moto yitwa riifani iri mu muhanda iri kugenda, itwikirije ihema ry'umweru, itwara ibintu neza bikagerayo byujuje ubuziranenge hino hari umugore uri gucuruza ibisheke mu ndobo.

Imihanda ibiri itekanye, itandukanijwe n'imikindo bateyemo indabyo, uwo haruguru harimo umumotari uhetse umugenzi, bambaye ingofero z'ubwirinzi, kugira ngo nibahura n'impanuka yere kugira icyo ibatwara.

Moto ebyiri ziri mu muhanda zitandukanye imwe itwara abantu indi imizigo ni nziza ni ingirakamaro zose zidufasha kwiteza imbere mu buryo bwo gukorera amafaranga atuzamura mu miryango.

Igare riri mu muhanda bari kurisunika, ni ryiza ridufasha mu gutwara abantu n'ibintu ku giciro giciriritse, kandi rikabigezayo vuba bitangiritse.

Ni amagare menshi cyane ahagaze hamwe ategereje abagenzi atwara abayobozi bayo bambaye amataburiya abaranga, kubera yuko iyo bari gutwara abagenzi bagomba kwambara ikirango bakamenya umurimo bakora uwo ariho.

Imodoka z'amakamyo ndende zifashishwa mu gutwara amasima ziva kuyarangura, imodoka zahuye n'ibibazo ni ho zitwarwa, ni nziza kuko zikorera ibiremereye.

Imodoka zihagaze aho zitegereza abagenzi hirya y'aho hari abantu benshi bari kugenda bajya kureba izitaha iwabo, abandi batari bazibona baricaye mu kazu k'aho bategerereza ngo batahe.

Imodoka ya hiyasi ifunze hose nta birarahuri birimo, itwara ibicuruzwa bitandukanye amakarito n'ibindi byose ay'amazi, ibigeza ku bantu babihamagaje n'abo igenda ibiha hirya hari abamotari benshi bahetse abagenzi.

Imodoka nini ndende ishinzwe ubwikorezi mu muhanda ipakiyerimo imifuka y'amakara itwikirije ihema ry'ubururu hirya yaho hateye igiti abantu bicaye munsi yacyo bari kuyireba, haruguru hari amazu ahubatse.

Imodoka y'ikamyo iri mu muhanda, ifite ibyuma hejuru bahambiriyeho, imbere hari ibindi birimo ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi, babitwikiriye ihema ry'umweru, hicaye umuntu uri kubirinda kugira hatagira ukuramo na kimwe.

Abamotari babiri bari mu muhanda, nta bagenzi bafite, umwe uri imbere ageze ku mirongo icagaguye y'umweru, aho abanyamaguru bambukira, arahagarara iyo umunyamaguru ahageze kugira ngo amuhe uburenganzira bwo kwambuka.

Imodoka itwara abagenzi igeze aho bari, barahagaze, barayitegereje, bari kwihuta bayinjiramo, ifite intebe nziza zisanzuye, uyigiyemo wese agenda afite umutekano n'ubwirinzi.

Abantu bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru n'amagare ni meza kubera ko ari ikinyabiziga giciriritse ariko k'ingirakamaro ku muntu ugitunze kidufasha muri byose ku mu rugendo gutwara imizigo ikagererayo ku gihe ku giciro giciriritse.

Moto ziri mu muhanda zitandukanye ni izitwara abagenzi n'imizigo iyo ufite amafaranga makeya udashobora kubona imodoka ukayigura igufasha mu iterambere ry'umuryango wawe ndetse n'iry'igihugu utuyemo.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Umusore uri ku igare ari kurinyonga, ni imyitozo ngororamubiri, ararambuka ingingo zose, imitsi, ntabwo ashobora gufatwa n'uburwayi buterwa no kwicara mu buryo bumwe adakora imyitozo.

Imodoka ya dayihatsu itwara imizigo irafunitse inyuma imbere ni ubururu niryo range bayiteye ipakuruye ibinyobwa bituruka kuri burarirwa, harimo fanta n'inzoga z'amoko yose.

Umuhanda urimo ibintu bitandukanye: moto, abantu bari kugenda, abikoreye, usunika ingorofani w'umukarani, hiryaye hari imodoka, hakurya yaho hari imodoka itwara abagenzi nini cyane ifite irangi ry'ubururu n'umweru.

Imodoka y'umweru bamaze gupakira ibikoresho by'ubwubatsi, bari guhambiraho hejuru, ibyuma bifashisha basakara izo bamaze kubaka, ni abantu batatu bafite imigozi bari guhambira.

Ikamyo nini kandi ndende y'ibara ritukura imbere, itwara imizigo myinshi yerekeranye no ku bwubatsi kubera yuko yikorera ibintu biremereye kandi byinshi icyarimwe, hirya hari indi itwara ibicuruzwa irirafunze inyuma kugira ngo bitanyagirwa ibigeze aho bigera nta cyanyangiritse.

Umuhanda w'igitaka hirya yawo hari kugenda abantu batandukanye, hino hari inzu abantu bicayemo bategereje imodoka ibatwara, ni munini, ni heza, nta mabuye arimo abawugendamo ntakibahungabanya.

Umuhanda uri kugendwamo n'abantu batandukanye abashinzwe umutekano, abaturage basanzwe, hirya no hino hari utuzu tw'abagenzi bicara bategereje ibibatwara, ntabwo bicwa n'izuba, ntibarambirwa no guhagarara.

Icyapa cy'urukiramende gifite umuzenguruko w'umweruru, ubuso ni ubururu, ikirango kirimo cy'udukoni tw'umukara kiri mu mweru n'igishushanyo cyerekana umuntu ni umukara.

Icyapa giteye ku muhanda cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni umweru, ikirango kirimo ni umukara, kirereka abanyabiziga babiyoboye ko aho hafi hari inkomyi, bagomba kugabanya umuvuduko bari kugenderaho, bakitonda kugira ngo badakora impanuka.

Icyapa cy'urukiramende, gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso ni ubururu, ikirango kirimo ni inyuguti ya pa y'umweru, ivuga ko ikinyabiziga cyose cyemerawe guhagarara aho ngaho.

Icyapa cy'urukiramende gishinze ku muhanda, ubuso bw'ubururu, ikirango kirimo ni inyuguti ya pa y'umweru n'imodoka nini itwara abagenzi, yerekana yuko umuyobozi w'ibinyabiziga afite uburenganzira bwo kuhahagarara.

Icyapa cy'urukiramende, umuzenguruko w'umukara, uubuso n'umweru, hagati harimo uruziga rw'umutuku, imodoka ishushanyijemo, hanyuzemo umustari utambitse, biravuga ngo hano nta modoka yemerewe kuhahagarara.

Icyapa cy'uruziga uzenguruko w'umutuku ikirango kibuza ni umukara imodoka nini ntabwo zemerewe kuhanyura, harimo agakoni gatambitse kakibuza ko zahahagarara nta burenganzira zifite.

Ibyapa biteye ku muhanda, hariho inyuguti z'umukara n'imibare, icya mbere Kigali Nyarugenge gatatu aveni. Kigali Nyarugenge mirongo itatu site. Bigaragaza umuhanda ugezeho uwo ari wo.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango kirimo n'umukara, iramenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko aho hafi bagiye kugera hari inzira y'abanyamaguru bambukiramo.

Icyapa giteye ku muhanda cy'uruziga gifite umuzenguruko utukura, inyuguti irimo ni umukara ya pa, ubuso ni umweru, agakoni gatambitsemo kabuza, babwira abanyabiziga ko batemerewe guhagarara aho ngaho.

Icyapa kiri ku muhanda, cy'urukiramende, gifite ubuso bw'umweru, ikirango kirimo ni umutuku, birerekana ko abanyabiziga nibahagera, ko hafi ahongaho hari amakorosi, bagomba kugenda bitonze.

Icyapa giteye ku muhanda cya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, haruguru hashinze amapoto bakoze mu isima arakomera, iyo bayahambiriyeho insinga nyinshi ntashobora kugwa.

Icyapa cy'uruhukiramende giteye ku muhanda kirerekana aho ugeze Rusizi, gifite ubuso bw'ubururu, umuzenguruko w'icyatsi kibisi ni ikirango kirangira buri wese.

Icyapa gishinze ku muhanda, hasi hariho kamera ireba ibikorerwa aho hafi aho, hejuru hari umubare mirongo itandatu uri mu ruziga, ubuso ni umweru, umuzenguruko ni umutuku, birerekana yuko ikinyabiziga iyo kihageze kigomba kugendera ku muvuduko wa mirongo itandatu.

Umwashi ugizwe n'umuzenguruko w'umukara, ubuso ni umuhondo, ikirango kirimo ni umukara n'umutuku ; ni byiza byereka umuntu aho yerekera, ko aho imbere hari inkomyi.

Icyapa giteye ku muhanda cya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku ubuso ni umweru ikirango ni umukara, hacagaguyemo uturongo twerekana ko ari inzira y'abari kugenda n'amaguru.

Icyapa cya mpandeshatu muzenguruko ni umutuku ubuso n'umweru ikirango kirimo n'umukara cyerekana ko uwo muhanda ushamikiyeho undi biba ari ukumenyesha abayobozi b'ibinyabiziga nibahagera bitonde.

Icyapa giteye kumuhanda cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso ni umweru amagambo yanditsemo n'umukara hasi hari ikindi gitoya gihagaze ku biti bikomeye ibyuma bisize irangi ry'umutuku.

Inzu nziza zubatse zifite ibisenge by'umukara, igikuta kizizengurutse ni amatafari ahiye; ni byiza gushyiraho ibintu bikomeye bituma abajura batajya gucukura ngo bajye kwangiza ibiri imbere.

Umuhanda w'igitaka uca hagati mu mazu, uhuza umudugudu n'undi cyangwa umurenge n'undi ni mwiza, iyo abantu bahataha bafata ikibagezayo batavunitse urugendo ntirubabane rurerure.

Inzu nini kandi nziza z'icyerekezo ziruzuye ni izo kubamo, zifite amarembo abiri atandukanye, hamwe ni ikigina, ahandi ni urugi bashyizeho ibyuma bigaragaza imbere, ni nziza.

Inzu ndende nini, barangije kuyubaka, isize amarangi, ibirahure, bayikoreye amasuku, imbere haparitse umumotari utegereje umugenzi, hirya ye hari icyapa gishinze ku muhanda cy'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni umweru, harimo inyuguti ya pa y'umukara, haciyemo agakoni gatukura, bivuga yuko nta muntu wemerewe guhagarara aho ngaho.

Umuhanda w'igitaka uri hagati y'amazu bacururizamo, harimo abantu, ni urujya n'uruza, abamanuka, abazamuka, imodoka, moto n'umupolisi arimo arahazamuka.

Umuhanda w'igitaka hejuru hari amazu yo guturamo yubatse kimwe afite ibisenge by'umuhondo ni meza aratunganyije, ayarakeye n'ayo kwifuzwa.

Umuhanda munini, hirya hari amazu ageretse yuzuye y'ubucuruzi, buri muryango uriho ikirango cyerekana ibicururizwamo; hasi haparitse imodoka z'abantu bakoreramo, hari imirimo itandukanye!

Umumotari uri kuri moto ahetse icupa ririmo gaze, ni byiza. Moto idufasha kugeza ibintu byacu aho bigomba kugera ku gihe, bigasanga n'abantu mu ngo, babihamagaje kuri telefone.

Inzu ndende cyane ikeye yuzuye ikoze neza iruhande hari icyapa kiriho amacupa abiri ivuga yuko aho ngaho hari aho bacururiza inzoga, ni hoteli harimwo amacumbi n'imirimo yose itandukanye ikorerwamo.

Remera kwa Rando hari amazu meza yo kubamo, afite ibisenge bitukura mu gice cyo hepfo, haruguru na ho hari amazu ageretse, ni byiza iyo ageretse atwara ubutaka butoya kandi hakajyamo ibikorwa byinshi.

I zu nyinshi zitandukanye zubatse neza zifite ibisenge bikomeye ntabwo umuyaga wapfa kuzijyana ziraramba zirakomeye kandi zigirira neza abazubatse.

Icyapa cy'urukiramende gifite ubuso bw'umweru, handikishijemwo inyuguti z'umukara, hari kutwereka yuko ari i Nyandungu muri parike, ni nziza izana ba mukerarugendo, bakatuzanira amafaranga y'amahanga akadufasha kwikenura.

inzu nini yubatse neza hasi hari ibyumba by'ubucuruzi imbere yayo hari imodoka zihagaze mu mukindo uhateye icyapa cy'uruziga harimo inyuguti ya pa agakoni k'umutuku gatambitsemo imenyesha abayobozi b'ibiziga ko bagomba guhahagarara igihe gitoya.

Inzu ndende iruzuye isize amarangi y'umuhondo n'umutuku, ibirahure by'umukara hari imiryango ikinguye myinshi ikorerwamo imirimo itandukanye.

Inyubako imaze kuzura, yakorewe amasuku, amarangi atandukanye, igisenge bacyubatse neza, ibirahure, amadirishya, imiryango hose harakomeye.

Umuhanda w'icyerekezo kimwe, hepfo hateye ibiti bijya intusi, haruguru hari umugenzi uri ku igare afite intebe inyuma iheka abantu bakamuha amafaranga ni byiza ko ridufasha murugendo.

Imodoka y'ivatiri y'umweru iri mu muhanda igeze aho abanyamaguru bambukira harangwa n'imirongo y'umweru icagaguye igiye kwambuka ni heza ni byiza.

Umuhanda ugizwe n'ibyerekezo bibiri icyo hepfo kirimo imodoka zitwara abagenzi imbere yayo hari imodoka zitwara imizigo haruguru hari imirongo icagaguye y,umweru abanyamaguru bambukiramo.

Imodoka z'amabara atandukanye y'amavatiri ziri mu muhanda itukura umweru, imwe iramanuka indi ikazamuka, ni nziza zitwara abantu neza waba warayiguze wayikodesheje byose bibera uyirimo byiza.

Umuhanda munini ugizwe n'ibice bibiri, hepfo hari imirongo icagaguye y'umweru, harimo umuntu uri kwambuka, ni ngombwa kugira ngo bahambukire ko ari ho bahererwa uburenganzira.

Ihuriro ry'umuhanda ryo Mukanogo, harimo imodoka eshatu zikurikiranye, iy'inyuma ni umweru zirerekera mu mujyi, ni hanini zihanye intera nta mpanuka zishobora kugira.

Imirongo icagaguye iri mu muhanda y'umweru yereka abanyamaguru aho bagomba kwambukira, iyo bahageze barambuka nta nkomyi ibinyabiziga n'abayobozi babyo iyo bahageze barahagarara bakabanza bakabaha uburenganzira bwo kwambuka kuko baba babufite ari ubwabo.

Umuhanda munini cyane w'ibisate bibiri ugabanyishijwe n'umurongo ucagaguye w'umweru, nta modoka irimo, iyo ziwugendamo zihana umwanya ntizikore impanuka.

Amahuriro y'imihanda myinshi, iruhande hari amatara amuritse, ni hanini, hirya hari amazu, imitaka n'imodoka ni heza harakeye.

Umuhanda ugizwe n'ibice bitatu bitandukanyijwe n'imirongo icagaguye y'umweru, ni byiza ibinyabiziga iyo biciyemo bihana intera ihagije kugira ngo bitagongana bigakora impanuka.

Umuhanda harimo imisitari icagaguye y'umweru aho abagenzi bambukira, iyo bahageze ibinyabiziga biturutse hepfo no haruguru birahagarara bikabaha uburenganzira bakambuka kuko ariho bagenewe.

Kumuhanda munini cyane harimo imirongo yumuhondo hakurya aho uhurira nundi hari abagenzi, imodoka ni mwiza iyo ari munini ntabwo ibinyabiziga bishobora kugongana ahubwo bihana intera bikagenda neza.

Umuhanda w'igitaka, abanyamagare bari kuwugendamo, abanyamaguru bose bari kugenda, ariko ni mu masaha y'ijoro, amatara aracanye harabona, ntawe ushobora gutsitara, kuko urumuri ni rwiza, rumurikira buri wese ntagire ikimuhungabanya mu masaha y'ijoro.

Umuhanda uri kugendamo ibintu bitandukanye; moto, imodoka itukura iri kuzamuka ivatiri k'uruhande hari ibyapa byinshi biyobora abagenzi bagenda n'amaguru cyangwa se aba moto abayobozi b'ibinyabiziga kugirango batayoba bamenye aho bageze ikintu gihaririye icyo aricyo.

Itara ritukura iyo ryatse hakazamo igishushanyo cy'umuntu, bivuga yuko aba aretse kwambuka kuko uwo mwanya ntaba wemerewe kwambuka, kugirango ibinyabiziga bidahaguruka bihawe uburenganzira bwo kugenda bikamugonga.

Umuhanda munini cyane ugizwe n'ibice bibiri, imirongo icagaguye y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira iyo bahageze, imodoka zirahagarara izo hepfo nizo haruguru kugirango babahe uburenganzira bwabo bwo kwambuka.

Umugabo uri ku igare ahetse agakapu k'umukara, rifite intebe ashobora gutwaraho imizigo cyangwa se umuntu, ararinyonga imitsi yose ikarambuka amaraso agatembera neza, ni ryiza mu buzima bwa buri munsi.

Umuhanda munini cyane iruhande rwawo hari kwaka amatara awuboneshereza abantu babiri umwe arambuka uruhande rumwe n'undi rundi bari kugenda mumirongo ucagaguye bagomba kwambukiramo.

Abantu babiri bari mu muhanda b'abagabo bari kugenda mu mirongo icagaguye y'umweru aho abanyamaguru bambukira imbere yabo hari imodoka y'ivatiri, hakurya hari umumotari uhetse umugenzi ari kugenda neza.